Inyubako nziza ifite igikuta gishushanyijeho inyamaswa y'agasumbashyamba aho iyi nyamaswa aba ari ndende cyane ku buryo umuntu wese uyibonye ahita ayibwira kuko iruta izindi.

Igikuta cy'inyubako nziza kikaba gishushanyijeho ibishyimbo, ibi bishyimbo rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo abana bize uko bimera bikiri bitoya ubwenge bwabo buriyongera.

Udushusho tw'utunyoni turi kujya ku ishuri, tugiye dutandukanye. Tukaba ari twiza cyane, aho batwifashisha bigisha abanyeshuri, ukuntu utunyoni nat wo tuba ari twiza kandi tufite ubwenge dushimishije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ku rukuta, ikaba iriho udukoresho tugiye dutandukanye abana bareba aho bari kwiga.

Udushushanyo tw'amabara agiye atandukanye twabantu bakoze urunana. Bakaba bari mu mabara y'umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'amabara y'iroza.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umweru, aho icyo gishushanyo kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari igishushanyo cy'impyiko, ndetse n'igare ryegetse aho gishushanyije rifite agatebe.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagiye batandukanye bicanye ku minyenga aho hari abandi bahagaze ku mpande, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hakurya yabo hari ishuri bigiramo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite barumuna babo biga mumashuri abanza, iyo babarebye babona ari abantu bakuru cyane ku buryo batazangana nabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba hari igare ryiza cyane ryegetse aho ngaho ku gikuta giteye amarangi y'umweru.

Ahantu hari udukoresho twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye ndetse tugerekeranye, higanjemo ay'umutuku n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako iri ahantu heza cyane ishushanyijeho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, yigirwarwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho izi nyubako zigirwamo n'abanyeshuri, biga mu mashuri y'inshuke. Ku bikuta byazo haba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye by'utunyamaswa dutanga inyama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza, aho yigirwamo n'abanyeshuri benshi bagiye batandukanye. Iyi nyubako rero ni nziza kubera ko iruhande rwayo, hari ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye umucanga, hakaba hari abana benshi biga mu mashuri y'inshuke, bari gukina iruhande rwayo, mu busitani.

Akanyenyeri keza cyane, kari mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'umutuku. Bakaba batwifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke afite igitabo. Ahagaze imbere y'ababyeyi ari kugenda abasomera ibyo bize kugira ngo abarimu na bo barebe ubumenyi abana baba bafite.

Igikapu kiza cyane cy'umutuku kikaba gitwarwamo amakayi n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho batwaramo amakaye yabo kugira ngo atanyagirwa cyangwa agasaza vuba.

Igikuta cyiza cyane gisa umutuku, aho harambitseho akabombo. Hakaba kandi hariho n'utundi tuntu twiza cyane tugiye dutandukanye, abana bareba maze bakishima igihe bari kwiga.

Umuntu w'umwarimu uri kugenda areba ku gikuta aho ari kugenda ashushanyaho utuntu tugiye dutandukanye tw'icyatsi tuzifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho kuri iyo nyubako hashushanyijeho umuntu bigaragara ko hari aho abana biga mu mashuri y'inshuke bigira kugira ngo bazabashe gutsinda.

Tura heza ni amagambo meza cyane yanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hirya hari inyubako nziza cyane zisa umuhondo nziza cyane zibereye ijisho neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mashuri y'inshuke, aho bikunze kuba bishushanyije ku bikuta. Hariho umwiko ndetse n'ingorofani. Umuryango w'amashuri urafunguye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bari kurya umunyenga ku myicundo. Inyuma yabo hari umwarimu uri kugenda abasunikira kugira ngo bakomeze baryoherwe kandi bizihirwe.

Abana batoya biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, akaba yicaye afite ikintu cy'ikiziga imbere ye ari kugenda arebaho bigaragara ko akiri muto cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ikaba iteye karabasasu ku rukuta ndetse iteye n'irangi ry'ivu kuri iyo karabasasu.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko batozwa ibintu byinshi kubera ko baba bakeneye kwagura ubwonko ngo bajye batekereza neza bihagije.

Udushushanyo tugiye dutandukanye, turi mu mabara agiye atandukanye. Harimo utudenesi n'utundi tuntu dufite amahwa. Turi mu mabara y'icyatsi, iroza, ubururu ndetse n'amabara y'umuhondo.

Abana biga mu mashuri y'incuke baba bakiri bato cyane, ababyeyi ahanini bakunze kuhabasiga mu rwego rw'uko mu rugo baba babatesheje umutwe, ni byiza ko abarimu babo babitaho.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo dupupe twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke. Hakaba hariho n'udukwavu twinshi, dufite amaso.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke benshi cyane, baba bafite udukapu dushushanyijeho ibipupe, aho utwo dukapu batwifashisha badutwaramo amakaye yabo kugira ngo bige neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba hari udupupe bakunda gukoresha, iyo bari mu masomo yabo. Hari udupfupa twiza cyane ndetse tuba dufite n'amaso ku buryo abana tubashimisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko babasomera ibitabo kugira ngo bajijuke mu mutwe. Aha rero hari umwana uri gusomera bagenzi be igitabo na bo bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Abantu b'ibipupe cyangwa se ibishushanyo, bakaba bafatanye urunana, biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke bari mu mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Utunyamaswa tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abanyeshuri, biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, aho tuba tugiye dutandukanye. Harimo inzoka, ibikeri, imitubu n'amasake.

Ahantu heza cyane, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibi bikoresho akaba ari ingirakamaro kubera ko tubyifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dutere imbere.

Ahantu hari inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho umuryango ufunguye, bigaragara ko bacururizamo. Hari gusohokamo umumotari waparitse moto hanze.

Udupute twinshi tugiye dutandukanye, tuba turi ahantu. Tuziritse karuvati mu ijosi z'umutuku, bigaragara ko twigwa mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bari kumwe na mwarimu wabo, aho yabatondesheje umurongo. Bakaba ari abahungu ndetse n'abakobwa. Umwe muri bo afashe ku kuma kariho ibendera ry'U Rwanda.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, aho imiryango ikinguye, hakaba hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke by'ibikinisho.

Ahantu hari kandagira ukarabe nziza cyane, iriho igicupa cya jibu kiba kirimo amazi abanyeshuri bakaraba igihe bafite umwanda ku ntoki bagira ngo bisukure.

Ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, aho biri mu mabara menshi agiye atandukanye, bikaba ari byiza cyane kubera ko byifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga kugira ngo babashe kuba batsinda.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri aho ifite ibikuta bigiye bitandukanye, aho hashushanyijeho itoroshi riri kwaka hakaba hariho n'amabara y'icyatsi hejuru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Ikaba ari nziza cyane kandi ifite ubusitani bukiri buto.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kuba bafite udupupe twinshi tugiye dutandukanye, hari ako baba bafite k'imbwa y'umukara iri kurya ikigufwa.

Akazu gakozwe mu buryo bw'agakapu kaba karateguriwe abana biga mu mashuri y'inshuke aho kaba ari keza cyane kubera ko kaba gafite amabara agiye atandukanye abana bakakifashisha mu myigire yabo.

Umwana mutoya wiga mu mashuri y'inshuke. Yagiye gusubiza ku kibaho, aho ari kwandika inyajwi n'ingombajwi bigiye bitandukanye, kugira ngo arebe ko ibyo mwarimu yamwigishije abizi.

Ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho birambitse ahantu. Hakaba harimo amabara menshi agiye atandukanye, bifashisha bari kwiga.

Intare ndetse n'utundi tunyamaswa twinshi bikaba bishushanyije ahantu ku gikuta, aho babyifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke amoko y'inyamaswa dusanga muri parike.

Udukoresho tugiye dutandukanye, higanjemo amakaramu y'ibiti, bikaba birambitse ahantu hamwe. Tukaba ari twiza cyane kandi twifashishwa n'abanyeshuri, igihe baba bari kwiga amasomo yabo.

Abana batoya b'abahungu biga mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano zisa ubururu bakaba bafashe ku myicundo inyuma yabo hari abantu b'abarimu babigisha.

iradiyo nziza cyane zikozwe mu buryo bugezweho. Aho ari zimwe za kera zizwi nka gasete. Zikaba zifashishwa, bari kwigisha abana uburyo ibintu bya kera byabaga bimeze.

Udushushanyo twiza cyane kandi twinshi tugiye dutandukanye, aho utu dushushanyo tuba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, bigisha abana amabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite umucaca mwiza, aho uwo mucaca ari ingirakamaro kubera ko umuntu wese awicaraho.

Igikoresho cy'uruziga kijya kumera nk'igare, aho gifite ibiziga bizirikiyeho ibyuma byinshi. Kikaba kifashishwa bigisha abana bo mu mashuri y'inshuke, kugira ngo abo bana babashe kumenya kubara no gusoma.

inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako irimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye abanyeshuri bifashisha aba kwiga, harimo udute tw'umutuku ndetse n'utundi dutere dusa ubururu aho twose ari twiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ishushanyijeho udusimba tw'udupusi tugiye dutandukanye, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abiga mu mashuri abanza kugira ngo batsinde.

Abana bakiri bato, ni byiza ko batozwa isuku. Kuko iyo batojwe isuku, babasha gukura bafite iyo suku ikaba nk'umuco, bakayikorana.

Igikuta k'inyubako kiza cyane, aho iyo nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite n'utuntu tw'udushushanyo twinshi tuyishushanyijeho ndetse tubereye ijisho.

Igikuta kiza cyane gishushanyijeho ingorofani, aho impande yacyo hari abana b'abanyeshuri bagiye batandukanye, bakaba bari kwiga amasomo yabo uko bikwiriye neza.

Umunyeshuri wiga mu mashuri y'inshuke akaba afite udukombe tugera muri dutanu turimo amarangi agiye atandukanye, akaba ari kugenda ayatera ahantu ku gikuta.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kuriraho umunyenga, tukaba turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku meza cyane.

Udushushanyo twa mdeenye tugiye dutandukanye, aho utwo dushushanyo twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari kwiga kubara, tukaba ari twiza cyane.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zikikjiwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, hakaba hari n'igicumbi cyiza cyane kiri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Ibitabo byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo, aho bajya kubitira mu masomero, bamara kubisoma bakabisubiza mwarimu wabo kugira ngo bitabura.

Imyicundo cyangwa se iminyenga ikunze kwigirwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kuryaho iminyenga kugira ngo barebe ko bamererwa neza cyane bakanezerwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye hariho n'akagare abana bagenderaho igihe baba bari kurya umunyenga, kari mu mabara y'umutuku bakaba bakifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo batsinde.

Ingorofani ishushanyije ku gikuta ikaba iri mu mabara y'ubururu. Ikaba ari nziza cyane kandi ishushanyije ku gikuta giteye irange risa umweru.

Igishushanyo cy'akanyayamaswa karya udukoko na ko k'agakoko kikaba gishushanyije ahantu bigaragara ko ari icyo bifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba hari abantu bagiye batandukanye bigaragara ko abo bantu ari abanyeshuri.

Ahantu heza cyane, hari amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi byatsi ari ubusitani bwiza buhateye, bukaba burimo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse akaba ari n'ingirakamaro cyane.

Utunyoni tugera muri dutatu tw'udupupe, turi mu mabara y'umutuku. Tukaba turi ahantu, turi kurebana, bigaragara ko utu tunyoni ari twiza cyane ndetse tuba ari utwo abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, hakaba hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye biri mu mabara atandukanye, aho bimwe biri mu mabara y'ubururu ibindi bikaba biri mu mabara asa icyatsi.

Amakaramu menshi cyane agiye atandukanye aho aya makaramu ariho ibifuniko, gusa harimo imwe itariho igifuniko ipfunduye, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri bari kwandika.

Agakapu kariho igipupe cy'agapusi, aho iki gikapu rero ari cyiza gikunda kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za materineri.

Igishushanyo k'imodoka iri kwibenura iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ikaba ifite amapine y'umukara hasi harambitse akandi gakoresho gasa icyatsi.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere. Aho izitijwe n'urugo, rwubakishije ibyuma bisa ubururu. Hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane.

Igipupe cy'agaputi kicaye kikaba ari cyiza cyane, aho ahanini yakunze kwifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo barebe ko bakunda utunyamaswa.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke tukaba turi mu mabara agiye atandukanye kandi meza cyane.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri aho ku bikuta hashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, harimo ingorofani ndetse n'inyama n'ibindi bigiye bitandukanye.

Utunyamaswa tw'udupupe tw'udusumbashyamba, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye. Tukaba ari tune, tubiri dusa umuhondo, akandi kamwe gasa umutuku, akandi gasa icyatsi.

Ahantu heza cyane bigaragara ko higirwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kubera ko harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga kugira ngo ubumenyi bwabo bwiyongere batsinde.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba bari kugenda ahantu mu muhanda w'igitaka unyura hagati mu biti bahetse ibikapu umuhungu ndetse n'umukobwa.

Abana bagera muri batatu, bambaye utugofero tw'abisilamu, aho bari gutera amarangi ku gikuta. Bakaba ari beza cyane kandi bari kumenya ibyo bakora.

Udushusho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho tuba turi mu mabara agiye atandukanye ku buryo iyo abana baturebye banezerwa mu masomo yabo.

iIgikoresho kiba cyarakozwe n'abanyeshuri, aho ari icyo bakoze mu biti. Ikaba ari imodoka. Ikaba yanditseho ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru. Ari cyo RBA.

Abana bato biga mu mashuri y'inshuuke bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo n'umukara arizo zizwi nk'amamesa, bakaba bambaye utugofero twiza tw'umweru dukozwe mu bipapuro.

Ahantu heza cyane hari udushushanyo tugiye dutandukanye turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku n'umweru n'icyatsi, twifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri amabara atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari gukina agapira bambaye impuzankano z'ishuri, bari kumwe na mwarimu wabo aho ari kugenda abereka ko abafite ubumuga na bo ari abana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubatswe mu buryo bwa kijyambere. Imbere yayo hakaba hari akayira k'amapave, ndetse haparitse na moto nziza cyane n'udufuka.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bakunze kuba bafite udukoresho tugiye dutandukanye, bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe kumenya amabara agiye atandukanye ndetse n'ubumenyi bwabo bwiyongere.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye, aho utu ngutu ari ingenzi kuko abanyeshuri batwifashisha bari kwiga cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kujijuka.

Uducupa twamabara agiye atandukanye, aho utudupfupa ari ingenzi cyane. Tumwe turima mabara y'iroza, utundi amabara y'umutuku ay'icyatsi ndetse n'amabara asa ubururu bwiza cyane.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izo nyubako zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, cyane abiga ku bigo byateye imbere.

Abantu bagiye gutaha inyubako y'amashuri, harimo umugore ndetse n'abagabo bambaye udupfukamunwa, umwe akaba afite umukasi, agiye gukata umugozi kugira ngo bahatahe.

Udukoresho turimo inyajwi nyinshi zigiye zitandukanye, aho izi nyajwi ziri amabara menshi cyane y'umutuku ndetse n'ubururu. Zikaba zifashishwa, bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Utububati tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare, tuba turimo ibikoresho bica uruziga, bica imirongo ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bari kwifotoza, bambaye udupfukamunwa bakaba bari kumwe n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, bikaba ari byiza cyane kandi ari ingirakamaro ku buryo umuntu yahifotoreza.

Mu kabuwate batwaramo ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo amarati atatu, amakaramu y'igiti atatu, n'uducaruziga dutatu, twose tukaba ari ingirakamaro cyane.

Inyubako nziza cyane y'amashuri aho yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ubusitani bwiza cyane ndetse ikaba ifite ibikuta by'umweru n'amabati meza asa umweru.

Udukoresho tugiye dutandukanye, tuzwi nk'amarati, tukaba ari ingenzi kubera ko twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abiga mu mashuri y'inshuke, bari kwiga isomo ry'Imibare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho hari utuyira duciye dusakaje amabati ku buryo umuntu wese uri kutunyuramo, atabasha kuba yanyagirwa cyangwa ngo yicwe n'izuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba hari amatarajya abantu bari kuhagana burukiraho kugira ngo bahagere neza.

Udushushanyo twiza cyane tugiye dutandukanye turi ahantu, tukaba turi mu mabarage atandukanye y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi, hari n'utundi.

Imibare myinshi igiye itandukanye aho ari kuva kuri rimwe kugera ku icumi, bakaba bayifashisha bari kwigisha abanyeshuri kubara kugira ngo abo bana bazabe abahanga cyane.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho muri iyo nyubako hateyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi biri mu busitani, hakaba harimo inzugi zifunze, ndetse hari n'inkingi ku rubaraza.

Udukarito twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho utu dukarito ari ingenzi kuko tuba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihe baba bari gukurikirana amasomo yabo.

Umuntu uri gusasa icyumba bigaragara ko ari umubyeyi, ari kwereka umwana we uko basasa icyumba kikaba kiza kugira ngo uwo mwana na we azakurane isuku ajye abikora mu gihe kizaza.

abana biga mu mashuri y'inshuke, baba bakunda gukubagana cyane. Aho baba barubakiwe iminyenga y'imyicundo ku buryo iyo bahageze bagasanga itamanuye, burira bakajya kuyimanurira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bagenda bayigiramo, bagakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kumenya ubwenge.

Icyapa cyerekana ikigo cy'amashuri cya Nyagatare, kikaba ari ikigo cya Rubagabaga cyigisha abanyeshuri ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Agakapu keza cyane, kakaba gafite amabara agiye atandukanye y'ubururu n'umweru. Kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, aho batwaramo ibikoresho byabo.

Udukoresho tugiye dutandukanye ndetse tunasumbana, tukaba ari twiza cyane. Aho utu dukoresho twifashishwa mu bijyanye n'amasomo, igihe abanyeshuri baba bari kwiga. Maze tukabagirira umumaro. Kubera ko dufite amabara menshi cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bari kurya umunyenga ku gikoresho cy'uruziga kikaraga. Bakaba ari benshi kandi bambaye impuzankano z'ishuri.

Akabuwate kaba kari mu mabara agiye atandukanye kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo baryumve neza ubundi bazaritsinde.

Bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga amasomo agiye atandukanye, bikaba biri mu mabara menshi ndetse agiye atandukanye kandi meza ashimishije.

Agakoresho k'agacaruziga gakunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, by'umwihariko nk'igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare barakifashisha kugira ngo gace uruziga ahantu.

Udupupe tw'abantu bafite udutwe n'utuboko n'utuguru bakaba bazamuye amaboko bakikije umubumbe w'isi, bari mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri. Aho harimo udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye ndetse tukaba turiho n'imibare myinshi.

Inyubako nziza yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'ameza abanyeshuri bicaraho, bari kwiga bigera mu matsinda.

Akabuwate kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane ku buryo abanyeshuri bose biga mu mashuri abanza batwifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda.

Udukoresho tugiye dutandukanye turiho nimero. Tukaba turambitse ahantu mu dukombe, aho utwo dukombe ari ingirakamaro cyane, ku buryo umwana wese utwifashishije ari kwiga, abasha gutsinda.

Agasanduku keza cyane, kariho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara menshi. Kakaba ari akabanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakifashisha kugira ngo bige neza.

Igishushanyo cy'akanyamaswa k'umukara, gafite amaguru ane n'umurizo ndetse kakaba gafite n'amahembe. Kakaba kari kugendagenda, bigaragara ko bakifashishwa bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Utuziga tubiri turi mu mabara a atandukanye tukaba ari ingenzi aho batwifashisha biga mu mashuri abanza ndetse biga isomo ry'imibare bari kwiga kubara no kwandika.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho hari abantu benshi baje kuzitaha. Harimo abasirikare ndetse n'abapolisi bambaye impuzankano z'akazi, bakaba baje kuri izi nyubako.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye, turi ahantu bigaragara ko twifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga amasomo agiye atandukanye kugira ngo babashe gutsinda.

Utubabi tugiye dutandukanye turambitse ahantu hamwe, kamwe karuzuye akandi gacinyemo ibice bigera muri bine, hirya hari ishusho iriho abana bagiye batandukanye.

Udukoresho tw'imbuto ndetse n'imboga turi mu mabara agiye atandukanye, harimo imineke ndetse hakazamo n'akandi gakoresho kazwi nka karoti y'umutuku n'ikigori kiri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo, uri kwituma ku gasozi iruhande rw'amazi, ibi si byiza kuko byangiza ibidukikije kandi bihanwa n'amategeko, igihe umubonye wamutanga, hanyuma bakamuhana.

Impyizi ihagaze hanze y'inzu, aho iri kugenda yivugisha utugambo twinshi ariko kandi ivugira mu matamatama, itegereje ko hagira umuntu ukingura, hanyuma igasohoka ikaza ikaba yahita imurya.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi kwerekana umwana ari kwita ku matungo, aho ari kwita ku nyana ikiri ntoya n'ahandi yayibumbabubye imaze gukura, n'aho yamaze kuyishyiraho umutwe, n'aho yabaye inka ayiragiye.

Umunyeshuri uri kugenda mu busitani bigaragara ko ari umwana muto w'umuhungu, akaba yambaye agakabutura ndetse n'agashati bisa, ubusitani buteyemo ibyatsi bisa icyatsi.

Ibishushanyo biri mu mabara agiye atandukanye, aho biri kwerekana isomo mbonezamibano, rigiye kwigwa, rizwi nka Social Study mu ndimi z'amahanga. Rikaba ryigwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi, aho utwo dushushanyo twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, harimo imipira y'amaguru ndetse n'utundi tw'uruziga turi mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishwa uburyo basemura bakoresheje ibimenyetso. Aho hari umwana uhagaze impande y'ubusitani bwiza, buteyemo ibiti bigiye bitandukanye.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, tukaba ari ingenzi cyane, kuko iyo batwifashishije babasha kumenya ibintu byinshi.

Udushushanyo tugiye dutandukanye tw'uruziga, aho utu dushushanyo twifashishwa n'abanyeshuri bagiye batandukanye igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, turi mu mabara menshi. Twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ryabo ry'imibare kugira ngo baritsinde.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bari kwiga isomo ryabo. Imbere yabo hari umwarimu uhahagaze uri kubigisha ndetse w'umugore.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba harimo imikasi, uducaruziga ndetse n'indodo ziri mu mabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru ndetse hari n'ahandi hashashe tapi isa icyatsi.

Abana batoya umwe w'umuhungu n'undi w'umukobwa bakaba bari kumwe n'umunyamakuru wambaye ekuteri mu matwi ari kugenda abakoresha ikiganiro na bo bamusubiza.

Abantu bakora umwuga w'ubuhinzi benshi bahuriye hamwe, aho imbere yabo hahagaze umugore, akaba ari kubahugura uko bahinga neza bya kijyambere maze bagatera imbere.

Akabati gateretseho utudobo twinshi tugiye dutandukanye, aho muri utwo tudobo harimo udukoresho twinshi twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke igihe baba bari kwiga kubara.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite imiryango ifunguye ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza turi mu mabarage atandukanye, y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku n'icyatsi.

Udukoresho tugiye dutandukanye, tuba turimo amarati, uducaruziga n'amakaramu y'ibiti, abana biga mu mashuri abanza bifashisha, igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Iyo nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba ari inyubako y'amashuri abanza. Hari ibikoresho bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo babashe gutsinda neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite amabati asa ubururu, ndetse kandi ifite ubusitani bwiza cyane.

Let yashyizeho gahunda ko buri kigo cy'amashuri cyose kigomba kugira isomero, aho abanyeshuri bazajya bajya bagatira ibitabo hanyuma bakajya babisoma kugira ngo bazatsinde.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga isomo ry'Imibare by'umwihariko abiga mu mashuri abanza. Haba harimo uduca uruziga, amarati, amakaramu y'ibiti n'ibindi.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye. Ikaba ari nziza cyane ndetse ikaba irimo n'udupupe tw'amabara atandukanye: ubururu, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abanyeshuri biga ibijyanye na siyansi by'umwihariko mu mashuri agiye atandukanye yo mu Rwanda. Cyane cyane amashuri abanza. Haba hari ibitabo byiza basomeramo kugira ngo bunguke ubumenyi.

Udukoresho twifashishwa abanyeshuri bari kwiga isomo ry'Imibare. Aho muri utwo dukoresho harimo umukasi, harimo amakaramu y'ibiti agera muri ane, harimo ikaramu ya marikeri ndetse n'impapuro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Hakaba hariho n'icyapa cyanditseho ngo ishuri rya Nyagatare ry'igororero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezwehoho ifite amarangi menshi agiye atandukanye aya marangi meza ni ingirakamaro kubera ko abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakunda kureba utuntu tw'amabara menshi.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, aho hari inyubako z'amashuri nyinshi ndetse n'aho abanyeshuri baba bigira, bakurikiye ayo masomo yabo kugira ngo babashe kuba bayatsinda.

Amarati n'amakaramu y'ibiti ni bimwe mu byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho ibi bikoresho ari ingenzi cyane kubera ko bifasha abana gutsinda neza amasomo yabo uko bikwiriye.

Ahantu heza cyane hari ibitabo bigiye bitandukanye, biri mu mabara menshi, aho ibi bitabo byifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri babashe kugira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'ibyo biga.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, aho harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari gukora isuku, aho bari kugenda bayora imyanda yamenetse mu busitani bayisuka ahabugenewe.

Agakoresho kazwi nk'agacaruziga, aka gakoresho ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese ugakoresheje ari guca uruziga bituma isomo ry'Imibare abasha kuritsinda neza.

Umurima uteyemo ibigori byinshi ndetse hakaba hateyemo igiti cya gereveriya, hakaba hari akayira hepfo kahanyuze, hirya hari inyubako nyinshi zubatswe mu buryo bwiza.

Udukoresho tugiye dutandukanye, aho hari abana b'abanyeshuri, aba bana rero bakaba biga mu mashuri abanza, aho baba bari kwitoza kugira isuku.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho tuba turi mu mabara agiye atandukanye, bakatwifashisha kugira ngo abana barusheho kumenya amabara.

Udusanduku cyangwa utubuwate tuba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kugira ngo babe batsinda isomo ry'imibare.

Agakoni keza cyane k'ingirakamaro, kaba gafite amabara agiye atandukanye, aho ako gakoni ari ingenzi kuko umuntu wese ugakoresheje, bituma amererwa neza maze akumva aranezerewe.

Abantu bagera muri batatu bari hamwe n'inyubako harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye impuzankano zitandukanye muri iryo shuri harimo intebe ndetse n'ameza menshi.

Udushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye, aho utu dushushanyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubashije kuba yatubona, abona ko dufasha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ubusitani bwiza cyane, buteyeho amoko agiye atandukanye y'umucaca, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza.

Abana biga mu mashuri abanza, aho abo bana ari batoya, bakaba bari gukomanga ku rugi rw'umutuku. Umwe yambaye impuzankano, undi ntabwo azambaye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho ari ikigo cy'amashuri ikaba isakaje amabati y'ubururu hateyemo n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi hafi aho ngaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza, hari udukoresho twinshi tw'ingirakamaro bakunze gukoresha kuko tuba ari twiza kandi tukabateza imbere.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho ifite ibikuta biteye amarangi menshi agiye atandukanye, aho ayo marangi ari meza cyane ndetse hakaba hari n'ubusitani buteye n'indabyo nziza.

Udusanduku tugiye dutandukanye, aho utu dusanduku ari ingirakamaro cyane kubera ko twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kubera ko tuba turimo ibikoresho bifashisha abari kwiga amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga. Bikaba ari byiza kandi bishimishije.

Inyubako nziza cyane irimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'ay'inshuke, ikaba ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse ikaba ari ingenzi cyane ku banyeshuri.

Ahantu heza cyane hari imibare igiye itandukanye kuva kuri rimwe kugera kuri karindwi, ikaba iri mu tuziga dufite amabara ndetse karindwi yo ifite n'amaguru.

Ahantu heza cyane hari inyubako yubakishije udutafari duhiye, hakaba harimo n'ikibaho bigaragara ko hari cyo abanyeshuri bigiraho nubwo gishaje.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo hakaba hari amoko agiye atandukanye y'ibyatsi biteye mu busitani.

Abana babiri bari gusoma mu gitabo harimo abana biga mu mashuri abanza yo mu wa mbere, icyo gitabo herura hakaba handitseho ngo igitabo cy'umunyeshuri k'Ikinyarwanda.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare. Tukaba ari twiza cyane kandi dutuma batsinda.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kubasomera udukuru tugiye dutandukanye, aho hari ibitabo biba birimo inkuru ya Gasaro ndetse na Gakire.

Udutsinda twinshi tugiye dutandukanye tw'utuziga, bakaba batwifashisha bari kwigisha abanyeshuri isomo ry'imibare, by'umwihariko nk'abiga mu mashuri abanza, aho babereka amatsinda abiri, bakagenda babereka n'icyo ahuriyeho.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho muri iyi nyubako hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba harimo umwana w'umuhungu ufashe igitabo ari kugisomera abari aho bose.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi, bakaba bafite udukinisho bifashisha, bari kwiga amasomo yabo kugira ngo babashe kuyatsinda neza uko bikwiriye.

Ni byiza ko buri kigo cy'amashuri kigira inzu y'isomero, aho abanyeshuri bajya, bagatira ibitabo bagasoma maze bakiyungura ubumenyi kugira ngo batsinde amasomo yabo neza nk'uko mwarimu aba yarabibigishije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye, abana bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ndetse n'ubururu. Ikaba ari inyubako y'amashuri, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Ikaba ifite amadarajya bururukiraho ndetse banuririraho.

Abantu b'abanyeshuri batonze ahantu ku kameza bagiye batandukanye, bakaba bari kuganira ku nsanganyamatsiko mwarimu wabo yabahaye ngo bigeho.

Abana batoya benshi bagiye batandukanye, bakaba bari mu mashusho agera mu munani, aho bari gukora imirimo myinshi igiye itandukanye ya kinyarwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Hakaba harimo n'ikibaho ndetse n'udutebe twinshi n'ameza akikijwe n'utwo dutebe.

Agasanduku keza kari mu mabara agiye atandukanye, aho aka gasanduku ari ingenzi, kubera ko kifashishwa n'abanyeshuri bagiye batandukanye, by'umwihariko abiga mu mashuri abanza.

Imibumbe y'isi igera muri ibiri, aho iyi mibumbe ari myiza cyane kuko bituma umuntu abasha kumenya uko Isi ingana atavuye aho ari maze akabikurikirana neza cyane.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse ikaba ifite amabati y'umutuku. Ruru yayo haparitse imodoka hari na moto.

Abantu benshi bagiye batandukanye b'abarimu, bakaba bahagaze hepfo y'inyubako, bambaye imyambaro igiye itandukanye bigaragara ko baje gusura abana ku ishuri.

Udukoresho tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi, bigaragara ko twifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo. Turi mu mabara y'iroza, umutuku, icyatsi ndetse n'andi mabara atagaragara neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Bakaba bari ahantu, bagiye gusura ikiyaga. Bigaragara ko ari benshi kandi bishimiye icyo kiyaga bari kureba.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho haba harimo imikasi, amakaramu y'ibiti, amarati ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Umwana mutoya wiga mu mashuri abanza akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye yifashishwa mu bugeni, akaba ari kugenda abirebaho ngo abyifashishe.

Agasanduku keza kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye igihe baba bari kwiga amasomo menshi agiye atandukanye. Kugira ngo babashe kuyatsinda neza.

Inyubako nziza cyane z'ikigo cyamashuri zisakaje amabati y'umutuku, zubakishije amatafari ahiye aho hari ubusitani burimo ibendera ry'u Rwanda, riri mu mabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, mo imbere harimo udushushanyo twinshi tw'amabara agiye atandukanye kandi meza.

Inyubako y'amashuri yisumbuye, aho mo imbere harimo abanyeshuri bagera muri babiri. Bakaba bari kugenda bareba kuri mudasobwa zihari, bareba ko zimeze neza ngo babe bazifashisha mu myigire yabo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, haba harimo amakaramu bakoresha bari kwandika, harimo imikasi, ndetse harimo n'amakaramu y'ibindi.

Imibare myinshi igiye itandukanye. Kuva kuri rimwe, kugera kuri gatatu. Ikaba iri mu mabara menshi igiye itandukanye ku buryo bayifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza kubara.

Inyandiko nziza cyane, igaragaza ko ariyo ku kigo cy'amashuri cya Nyagatare. Iri kugaragaza ingengabihe, igihehe amasaha y'amasosomo atangirira ndetse n'igihe arangirira bari kwiga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'ubururu, ikaba yigwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, kugira ngo batsinde amasomo.

Udukaramu twinshi cyane turi mu mabara agiye atandukanye, aho utu dukaramu twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, kwandika neza ndetse no kumenya amabara atandukanye.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke uri kwiga gusoma, aho afite inkoni yabugenewe ari kwifashisha mu gusoma, ari kugenda akoza ku giputa, yereka umwarimu we ko amaze kumenya gusoma.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho izi nyubako ziteye amarangi y'umweru n'ubururu ku nzugi. Hari ubusitani bwiza cyane bwigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho hariho amarembo y'ubururu, hari ibyuma byubakishije amatafari y'ubururu ndetse bikaba ari ingirakamaro cyane kuri nyirabyo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, iyo bari kwiga isomo ryabo ry'imibare. Harimo akabowate, amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu.

Ahantu heza cyane hari udukarito turimo amakaramu y'ibiti menshi agiye atandukanye, aho aya makaramu yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza igihe bari gushushanya.

Ibishushanyo by'ibiziga byifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho baba babigisha uburyo imibare ikurikirana kandi n'uburyo iba imeze neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bambaye impuzankano, aho harimo n'umuzungu wambaye agapira k'umutuku. Bose bari gukoma mu mashyi bishimye, bigaragara ko banezerewe.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahagaze bari kurebana ndetse banaganira, bishimye, banezerewe.

Ubwiherero ni bwiza cyane ku kigo cy'amashuri kuko iyo ku kigo cy'amashuri bubatse ikigo ntibashyireho ubwiherero usanga kiba kitujuje ibyangombwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ishuri, aho bahagaze mu mbuga ishashemo amapave, imbere yabo hari umuyobozi uhahagaze, bari kugenda bamubwira ibibazo bagiye bafite.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bahagaze bari kwifotoza, aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Bari kumwe n'abandi bantu benshi.

Abakobwa babiri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahawe ibihembo. None bari kwifotoza berekana seritifika bahawe nk'igihembo k'ishimwe kubera ubutwari bwabo bakoze.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye bari ku murongo, aho bari kugenda bakurikirana amasomo yabo kugira ngo barebe ko yabateza imbere bagatsinda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Bicanye mu busitani, aho imbere yabo hari umugore uri kubakoresha iyo nama, ari kumwe n'abapolisi babiri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bateraniye hamwe, bigaragara ko bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bakaba bari kugenda bishima bakoma no mu mashyi kugira ngo banezerwe.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira k'icyatsi, aho ari ku ishuri. Akaba ari guhabwa agakarito n'abarimu, bigaragara ko ari igihembo kigaragaza ko yitwaye neza.

Umugabo ufite igikombe bigaragara ko agiye guhemba abantu bitwaye neza akaba yambaye n'umudari mu ijosi bigaragara ko ari uw'ishimwe yahawe kubera ibikorwa bye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bamwe barahagaze abandi baricaye, bari kumwe n'abatoza babo bafite udupira tw'impuzankano ndetse bahawe n'ibyemezo by'amashimwe bafashe mu ntoki zabo.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bahagaze imbere y'inyubako nziza cyane y'amashuri, bari kuganira ku kintu cyateza imbere uburezi nyarwanda.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye udupira tw'icyatsi abandi bambaye utujire bigaragara ko bishimye kandi bishimiye igikorwa barimo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bahagaze batonze imirongo bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hahagaze umwana umwe uri kubatoza uko bagomba gukora iyo myitozo.

Abana b'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri aho bicaye abandi bahagaze bigaragara ko bari mu masaha y'akaruhuko.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bari kwiga, imbere yabo hari umugabo w'umwarimu wambaye agapira k'ubururu uri kugenda abereka ibyo bagomba kwiga kugira ngo batsinde.

Abanyeshuri bagiye batandukanye ndetse n'abarimu babo, bakaba bari mu nama, aho bicaye bakikije ameza, bakaba bari kugenda bungurana ibitekerezo ku bintu runaka bigiye bitandukanye.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahagaze ahantu bagiye bashyiramo intera ya metero hagati y'umwe n'undi, aho hari ushinzwe umutekano uri kugenda abapima umuriro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bahagaze bari kwifotoza. Harimo abakobwa ndetse na bagenzi babo. Bakaba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye.

Ni byiza cyane ko ku kigo cy'amashuri bagomba kugira ubwiherero bwiza cyane ndetse n'ikigega gitangira amazi aturutse kuri ubwo bwiherero, aha rero hari abantu bari kugenda bambaye amajire.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu nyubako aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba hari umugabo uhagaze hagati yabo ufite indangururamajwi mu ntoki.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho. Aho hari akayira kagana aho gashashemo amapave ndetse gakikijwe n'udutafari duhiye. Hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye, biga mu mashuri yisumbuye. Bambaye udupira dusa icyatsi n'amajipo y'icyatsi. Bari muri korali, bari kuririmba, aho bafite n'ingoma. Imbere hari uri kubayobora.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Ikaba irimo ibikoresho byose nkenerwa, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo batsinde amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe aho bari kwifotoza, barishimye ni benshi cyane baranezerewe ariko ni abahungu gusa nta mukobwa n'umwe urimo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bari kwifotoza, higanjemo abakobwa n'abahungu. Hari umubikira ndetse n'undi mugabo w'umwarimu, bari kwifotozanya bose bishimye.

Umwarimu w'umugore ari kumwe n'umwana w'umuhungu w'umunyeshuri, ari kumuhereza igihembo cy'ishimwe mu ntoki kubera ko umwana yitwaye neza none bakaba bari kumushimira ku bw'ubutwari bwe yagize.

Ababyeyi b'abarimu bari guhemba umwana w'umunyeshuri witwaye neza aho yize neza maze atsinda amasomo ye, bari kumuha ibitabo byo gusoma na we ari kubyakira yishimye nk'igihembo ahawe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yigirwaho n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hakaba hahagaze abantu benshi cyane.

Abana biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bafite udukoresho tujya kumera nk'udukoni mu ntoki ndetse bambaye n'udupira tw'icyatsi, bakaba bahagaze mu busitani bwiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki. Bakaba bari gukurikirana amasomo yabo, kandi babikunze ndetse banezerewe.

Umunyenga cyangwa se ubwicundo bwiza cyane abanyeshuri biga mu mashuri abanza bajya kuriraho umunyenga mu masaha y'akaruhuko kugira ngo babone aho bahungira dore ko bo nta kindi bakora.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bicaye hamwe bari kwiga. Harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bambaye udushati tw'umweru ndetse n'utujipo twa kaki.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye kugira.

Igicumbi kiri mu mabara agiye atandukanye, aho kiri mu mabara y'umweru. Cyanditseho amagambo avuga ngo tuseme ikigo cy'amashuri cya Rukomo. Giherereye mu Karere ka Nyagatare.

Umugore uri kongorera umwana ugiye ku ishuri, uwo mwana akaba ari umukobwa wambaye agapira k'ubururu. Umubyeyi ari kumubwira ati: " Mwana wanjye ugiye ku ishuri, uzirinde udusore tuba tubasha kugutereta".

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hakaba hari gutambukamo abantu bambaye impuzankano z'amajiri.

Inyubako nziza z'amashuri zubatswe mu buryo bw'amagorofa, aho aya mashuri ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese wayigiyemo agakurikira, abasha gutsinda. Maze amasomo ye akagenda neza ku buryo aba yabipanze neza.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda, leta yashyizeho gahunda ko umunyeshuri wese agomba kuzajya yiga yifashishije mudasobwa kugira ngo atsinde amenye ubwenge.

Inyubako nziza cyane zubatse ahantu mu rusisiro bigaragara ko ari mu giturage, hakaba harimo inyubako z'amashuri aho abanyeshuri bazifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo neza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho muri iyo nyubako harimo abantu benshi bambaye utujiri higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba biga ibijyanye n'amashanyarazi.

Umwana w'umukobwa uri guhabwa igihembo n'abarimu bigaragara ko yakoze neza none bakaba bari kumushimira kubera ubutwari yagize ku ishuri igihe yigaga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi higanjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bambaye impuzakano z'ishuri ndetse bambaye na karuvati zisa ubururu.

Abantu bari mu nyubako, higanjemo abambaye utujire. Bikaba bigaragara ko ari abiga mu mashuri yisumbuye. Bari kugenda batembera muri iyi nyubako bareba ko bimeze neza.

Umusore wambaye imyambaro y'ishuri yatebeje akaba afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga imbwirwaruhame abwira bagenzi be nabo bamuteze amatwi ngo bumve icyo ababwira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bateraniye hamwe, aho abo banyeshuri bicaye munsi y'ibiti mu busitani, aho ibyo biti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane aho mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye, harimo ab'igitsina gore n'igitsina abagabo, bakaba bambaye utujire twiza cyane kandi dutangaje bigaragara ko biga imyuga n'ubumenyin ngiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye bambaye udupfukamunwa. Bakaba bagiye bashyiramo intera ya metero, hagati y'umwe n'undi kugira ngo hatagira undi wanduza icyorezo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba ari abahanga cyane, aho bakunze kwiga bambaye utujire kugira ngo bagaragaze ko biga ibijyanye no gukanika amashanyarazi.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri yisumbuye. Bakaba bahagaze bari ku murongo, bigaragara ko bishimiye bose kandi bakaba banezerewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, bakaba bari kugenda mu nzira, bari kumwe n'abakuru babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari mu masomo yabo, aho bigishwa na mwarimu kugira ngo barebe ko batsinda kubera kugira isuku, dore ko isuku ari isoko y'ubuzima.

Umugore bigaragara ko ari umuyobozi w'ikigo, akaba yambaye ishati y'umweru, afite n'amaherena ku matwi. Ahagaze imbere y'uruzitiro rw'ishuri, rwubakishije ibyuma by'umutuku, akaba ari kuganira n'umuntu bari kumwe.

Abana benshi bagiye batandukanye, aho higanjemo ab'abakobwa ndetse n'abana beza cyane, bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'amapantaro y'imikara. Bakaba bari ku karasisi, bishimye cyane, bareze agatuza.

Umwarimu w'umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri benshi bari mu nama, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo na bo bamuteze amatwi ngo bumve ubutumwa ari gutanga.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bahagaze bambaye n'utujiri bari kwifotoza bigaragara ko bose bishimye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ikigega cyiza cy'umukara gitangira amazi ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bari kumwe n'umwarimu wabo, aho bari gukoma mu mashyi ndetse umwarimu wabo akaba afite indangururamajwi, ari kugenda atera indirimbo, bakamwikiriza bose bishimye.

Ni icyumba kirimo abantu bambaye ibisarubeti bigaragara ko bize ibijyanye n'ububaji, bakaba ari benshi kandi bari kubikurikirana uko bikwiriye ngo barebe ko babona amafaranga.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bari ahantu mu nama bakaba bari ahantu hari amatente y'umweru ndetse atatse mu buryo bw'Ibendera ry'u Rwanda mu mabara menshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'umweru, bakaba bicaye mu modoka , babahaye umunyenga kugira ngo bagere iwabo byihuse.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda, Leta yashyizeho gahunda yuko buri munyeshuri wese azajya yiga afite mudasobwa kugira ngo babashe kumenya ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yo ku rwunge rw'amashuri rwa Gihengeri. Ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati ateye irangi risa ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bahuriye hamwe aho bari kwishima bose bamanitse amaboko banezerewe bari gukoma mu mashyi, bakaba bambaye impuzankano ndetse n'udupira tw'amajire.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri. Hakaba hari akayira keza cyane kari mu busitani, kari kunyurwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri.

Ahantu hari abantu benshi cyane bigaragara ko bari mu nama biganjemo abagore ndetse n'abagabo harimo abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri bicaye bari gukurikira icyo uyu mugabo ababwira.

Icyapa cyiza cyane giteyeho amarange y'umweru. Hakaba handitseho amagambo y'umukara, byerekana ko ari ku kigo cy'amashuri cya Kagitumba.

Ku kigo cy'amashuri, umuntu wese uhageze aba agomba gukaraba intoki kugira ngo twimakaze isuku, maze turwanye indwara nyinshi ziterwa n'umwanda, harimo n'indwara y'inzoka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba basutamye abandi bahagaze, bari kwifotoza aho bari gufata ifoto y'urwibutso nziza kandi imeze neza cyane.

Inyubako nziza yo ku kigo cy'amashuri cya Rukomo, aho ku marembo hari icyapa cyanditseho ngo murakaza neza mu kigo cy'amashuri cya Rukomo. Aho bari guha ikaze abaje kuhiga.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bakaba bagiye gutaha, bakaba bambaye utujipo tw'umutuku ndetse bambaye n'udushati tw'umweru bakikiye ibikapu.

Umwarimu wigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'ayisumbuye, ahagaze imbere y'abanyeshuri, aho ari kubigisha n'abo bamuteze yombi kugira ngo barebe ko batsinda isomo ari kubigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kwiga amasomo yabo, bifashishije utumashini twabugenewe, bifashisha abari gukuba ndetse bari no guteranya kugira ngo babashe kubona igisubizo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye benshi bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'ishuri harimo n'abambaye amadarubindi bakaba bari mu ishuri, bakurikiye mwarimu uri kubigisha kugira ngo baze gutsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza. Ikaba iri ahantu heza cyane kandi yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bari ku muronko aho bambaye impuzankano z'ishuri bari no gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hari umwe uhahagaze uri kuberekera.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bakaba bahicaye bari mu bizami bambaye n'impuzankano.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi. Bakaba bicanyi bambaye amashati y'imyeru. Bakaba bambaye n'imipira isa icyatsi. Aho bari gukurikirana amasomo.

Ahantu hari abantu benshi bahuriye hamwe bigaragara ko biga mu mashuri ya za kaminuza, bakaba ari abahungu ndetse n'abakobwa bose bakaba bambaye utujire twiza cyane.

Umugore w'umuyobozi uhagaze imbere y'abana biga mu mashuri yisumbuye, aho ari kubakoresha inama na bo bose baricaye, bateze amatwi baramukurikiye ngo bumve icyo ashaka kubagezaho hanyuma bagikurikize.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hari abana benshi biga mu mashuri y'inshuke, bambaye impuzankano z'umuhondo, imbere yabo hahagaze umugore w'inzobe, ari ukubigisha iryo somo bari kwiga. Bikaba bishimishije cyane.

Ikibumbano cyiza cyane gikozwe mu ibumba, kiba cyarakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro. Bikaba ari byiza cyane, abantu bakaba babikunda ku masoko.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, isakaje amabati y'umutuku. Ikaba ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira dushashemo amapave.

Ahantu hari agakoresho kifashishwa mu mashuri ya kaminuza, kakaba kari mu mabara y'ubururu n'umweru, kariho ikirango cyanditseho ko ari aka kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bakaba bari imbere y'utumeza. Aho utu tumeza ari twiza cyane kandi tukaba dukozwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

Abakobwa benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bahuriye mu cyumba cy'inama aho bari mu nama, bakaba ari benshi kandi bambaye impuzankano nziza cyane zisa icyatsi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iba yarubatswe n'abahanga. Ifite ibikuta bite amarangi y'umweru ndetse hariho n'amarido asa umutuku.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, harimo n'umuntu uri imbere yabo uri kubakoresha inama nubwo atarimo kugaragara neza.

Abantu benshi cyane biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba biga mu mashuri ya za kaminuza. Bakaba bari kwandika, aho buri wese afite ikayi n'ikaramu ari kwandikamo ibyo yumvishe.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, aho ziba zarubatswe n'abanyeshuri, bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Hakaba hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera.

Ibikoresho by'ibishushanyo by'ikoranabuhanga, biri ahantu bigaragara ko byashushanyijwe n'umunyeshuri w'inararibonye, wize gushushanya mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'ayisumbuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye bakaba bari kugenda basinya bakoresheje amakaramu.

Icyapa kiriho ibitenge byinshi bigiye bitandukanye, aho ibi bitenge ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubibonye abona ko byakozwe n'amahanga ndetse akaba yanabigura.

Agatebe keza cyane gasa ubururu, kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abo banyeshuri baba ari abahanga cyane kubera ko utu dutebe batwicaraho.

Urugi rwiza cyane rw'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ari nziza cyane, ikaba ifite igikuta giteye amarangi asa umweru n'urugi rwiza.

Inyubako nziza cyane, aho bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye bya gakondo. Harimo umuntu wagiye kugura ibikoresho biba bikoranye ubugeni, aho ari kugenda abihitamo. Yambaye inkweto zifunguye.

Igikuta giteye amarangi asa icyatsi hakaba hashushanyijeho ikintu cy'umweru kiriho imirongo igiye itandukanye, kiba cyarakozwe n'abanyeshuri biga imyuga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Mu imbere hakaba harimo abantu benshi cyane bateraniyemo, bigaragara ko bari mu nama.

Amashusho agiye atandukanye ari mu ruziga, aho handitseho amagambo agiye atandukanye. Ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza kandi ari mato cyane.

Umuntu w'umugabo wambaye amadarubindi ufite utwanwa duke, akaba ari igishushanyo, cyashushushanyijwe n'abantu bize ibijyanye no gushushanya, kikaba cyambaye n'amadarubindi icyo gishushanyo.

Ahantu ku meza hari agashushanyo, kari mu mabara menshi agiye atandukanye, aho gashushanyo ari keza cyane, kandi kakaba kari mu buryo bw'ishusho y'uruziga.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ari ahantu imbere y'imashini ya mudasobwa akaba ari gukoramo kugira ngo arebe niba abanyeshuri bayiga bayumva.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza, iyo ari mu gihe k'ikizami, buri wese aba yihugiyeho. Aho bagenda bakicara mu ishuri, bagakurikirana amasomo yabo neza kugira ngo bayatsinde.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bicaye bakurikiye, buri wese imbere ye harambitse telefone y'iwe imbere.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, biga mu mashuri yisumbuye. Buri wese akaba afite mudasobwa imbere ye, aho hari umwarimu uri kuyibigisha uko ikoreshwa.

Ahantu heza cyane, hari umuhanda washashemo amapave. Aho usakaje amabati meza cyane ndetse akaba ari aho imodoka ziparika, zigiye zitandukanye.

Igikuta kiza cyane giteyeho amarangi y'icyatsi, kikaba kinmanitseho udupapuro twinshi ndetse n'igikoresho kizwi nka kizimya mwoto, kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Inyubako nziza ifite igikuta giteye amarange y'umweru, hakaba hamanitseho icyapa cy'umutuku, kiriho utuntu tw'udushusho tw'uruziga turi mu mabara agiye atandukanye, twiza cyane kandi dushimishije.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako harimo udutebe twiza tw'ubururu, twicarwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, iyo bari kwiga amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako higirwamo abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, aho baba bari gukurikirana amasomo yabo kandi neza.

Ikibaho kiza cyane cy'umweru. Kikaba cyanditsweho amagambo yandikishijwe ikaramu ya marikeli. Bigaragara ko bakifashisha bigisha abanyeshuri biga muri kaminuza aho baba biga amasomo menshi.

Ikibumbano kiza cyane kiri mu mabara atandukanye, aho kiba cyarakozwe n'abantu bize ibijyanye n'ubukorikori mu mashuri yabo ya Kaminuza, bakaba baba bari gushyira mu bikorwa ibyo bize.

Inyubako nziza cyane yateraniyemo abantu benshi ikaba irimo intebe zisa ubururu bika bigaragara ko izo ntebe zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zubakishije amatafari ahiye, hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, hakaba hari n'akayirayaga k'amaguru kari kunyurwamo n'abantu.

Ibibumbano byinshi bigiye bitandukanye bikoranywe ubuhanga biba byarakozwe n'abantu bize ibijyanye n'ubugeni aho babikora hanyuma bakajya babigurisha ku mafaranga ku buryo umuntu wese ubikeneye yishyura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite amadarajya abanyeshuri bari kumanuka buruhukiraho, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza. Ikaba ifite ibikuta byiza cyane, biteye amarangi menshi agiye atandukanye kandi na byo bikaba bisa neza cyane.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza. Isakaje amabati y'umutuku, iteye amarangi y'umweru ku bikuta.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, baba ari abahanga cyane. Aho baba bafite intebe zabugenewe bicaraho bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo kandi neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako iriteye amarangi y'icyatsi ku nzugi. Hakaba hari n'ibirahure bitabonerana, byo mu bwoko bwa fume.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, harimo igitsina gore n'igitsina gabo imbere yabo hakaba harambitse mudasobwa, na buri muntu mbere ye hari icupa ry'amazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ifite inzugi nziza cyane, zisize ibara rya shokora. Zikaba ziri kwerekana ahantu hari isomero rusange muri Kaminuza.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza baba ari inararibonye cyane, aho hari imodoka baba barashushanyije zifite amapine menshi kandi nziza cyane.

Ogishushanyo gishushanyije ahantu ku gikuta bigaragara ko cyashushanyijwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyi ngiro kikaba kiri gucuranga gitari kandi ubona ko kimezeze neza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako ya kaminuza, urugi rurafunguye, mu imbere harimo intebe nziza nyinshi, abanyeshuri bicaraho igihe baba bari kwiga.

Inyubako nziza cyane ifite igikuta kimanitseho ibitenge ndetse n'imitako y'ibiseke, tukaba ari twiza cyane kandi dushimishije tugurishwa amafaranga make cyane.

umwana w'umukobwa ushushanyije ku gikuta, ufite akamareti, ufite n'agatasi karimo icyo kunywa agiye kunywa bikaba bigaragara ko ari umukobwa wiga muri kaminuza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, ifite ibirahuri bisa umukara ndetse n'inzugi zisa icyatsi.

Igikuta giteye amarangi y'icyatsi, aho icyo gikuta kiriho utuntu tw'udupapuro tugiye dutandukanye, hamanitsweho na kizimyamowoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro w'amashanyarazi.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, biga muri Kaminuza. Bakunze kwigira mu matsinda, aho baba bafite intebe nziza zigezweho bicaraho, hanyuma bakungurana ibitekerezo kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Umugabo wambaye agapira k'umukara akaba afite icyuma cyabuhariwe k'ikoranabuhanga ari kureberamo kugirango asuzume niba ibintu bihari nta myanda irimo maze abyiteho hanyuma rimere neza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako yifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo agiye atandukanye, hakaba hariho n'akantu kabaditseho k'umweru gashushanyijemo uturongo.

Ikibumbano kiza cyane kiba cyarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, kikaba kiri ahantu bigaragara ko hari inyubako nziza isakaje amabati.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, bakaba bambaye amakanzu meza cyane, bigaragara ko ari umunsi wa graduation none bakaba bishimye cyane, banezerewe k'ubw'ibitangaza Imana ibakoreye.

Udukoresho tubumbabumbye mu ibumba tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro by'umwihariko ababa barabyize mu mashuri yisumbuye bakabikora bikabaha amafaranga.

Ibibumbano bigiye bitandukanye, biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri Kaminuza, by'umwihariko nk'abize imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bakabikora neza muri ubwo buryo bwiza.

Udukoresho tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize muri Kaminuza, bagakurikirana ibijyanye n'ubugeni. Baba ari abahanga cyane, aho baba bazi kudushushanya, watureba ukabona ni twiza cyane kurushaho.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo zigiye zitandukanye, bukaba ari ingirakamaro kubera ko buba butanga akayaga keza ndetse n'abantu bashaka kwifotoza bifotoza hano muri ubu busitani.

Umuntu uri kumanuka amasikari w'umuhungu ufite abamarete mu ntoki, akaba ari kugenda yishimye bigaragara ko yiga muri Kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bakaba bari kwandika ahantu bigaragara ko ari benshi cyane, bari kugenda bandika ibyo mwarimu ari kubabwira kugira ngo bataza kubyibagirwa.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, bakaba bambaye inyambaro myinshi igiye itandukanye y'amakanzu, bigaragara ko bambaye basoje amashuri yabo none bakaba bishimye cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite inkuta ziteye amarangi y'umweru ndetse hakaba hamanitseho amoko menshi agiye atandukanye y'ibishushanyo byiza.

Abantu benshi cyane bari kwifotoza harimo abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'icyapa kinini cyanditseho UR, mu magambo arambuye bivuga Kaminuza y'u Rwanda, bakaba ari benshi cyane.

Ibibumbano byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho biba ari ingirakamaro kubera ko biba byarakozwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, muri Kaminuza y'u Rwanda bakaba barabikurikiranye.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza bakaba abicaye mu ishuri, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha w'umugore wambaye ikanzu y'isengeri.

Abanyeshuri biga mu mashuri na za kaminuza bakaba bafite ibikoresho by'ibibumbano bakunda gukora, ibi bibumbano aba ari ingenzi cyane kubera ko iyo babikoze bituma babasha gutsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, ikaba ari nziza cyane kubera ko iyo abanyeshuri bayigiyemo neza babasha gutsinda.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba k'ishuri, bakaba bicaye harimo n'ababyeyi babo baje mu nama. Harimo abambaye ingofero n'abambaye amashati.

Icyapa kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, hakaba handitseho amagambo ari mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Igikuta cyiza cyane giteyeho amarangi y'icyatsi, hakaba hamanitseho agakinisho keza cyane kakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza kugira ngo kajye kerekana imihanda myinshi igize u Rwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bicaye bari kwigira mu matsinda kugira ngo bungurane ubumenyi.

Intebe nziza cyane zigirwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri, abanza ndetse hakaba hari n'izindi nziza, zigirwaho n'abanyeshuri, biga mu mashuri ya za kaminuza.

Udukoresho tugiye dutandukanye, tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga. Tuba turi ahantu, aho tuba tugurishwa amafaranga make cyane ku muntu udukeneye.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, aho abo banyeshuri baba ari abahanga cyane. Bakaba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda.

Inyubako nziza y'ikigo cy'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho, ifite in inzuge ziteye amarangi y'ubururu ndetse zifite ibirahuri kuva hati kugera hejuru, zikaba zikingishije selile.

ikibumbano cy'umuntu ushushanyije, bigaragara ko cyakozwe n'abanyeshuri, bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, by'umwihariko mu mashuri ya segonderi. Bikaba ari byiza.

Agakoreshwa k'akavaze karambitsemo utweyo twinshi, kakaba ari agataboko keza kaba karakozwe n'abantu bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro by'umwihariko nko muri Kaminuza y'u Rwanda kugira ngo bazabashe kubikurikirana neza.

Ahantu heza cyane hicaye abanyeshuri bigaragara ko ari mu ishuri rya kaminuza, bakaba buri wese afite mudasobwa imbere ye aho bari kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo batsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ifite amoko agiye atandukanye y'inkuta ndetse n'amarangi ateyeho neza cyane, bigaragara ko nyirayo ari umukungu.

Ahantu heza cyane hari aho baparika imodoka hakaba hari imodoka ebyiri imwe y'umuyobozi ndetse n'ikindi kimashini cy'abashinwa gisiza imihanda, kikaba kiri ahantu bigaragara ko iyo mbuga ishashemo amapave.

Abana biga mu mashuri ya za kaminuza, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu. Bakaba bari kwifotoza, aho bari mu nyubako, bose bakurikiye isomo bari kwigishwa na mwarimu wabo.

Ibikoresho, ibikoresho by'ibibumbano bigiye bitandukanye biba byarakozwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda, aho baba ari abahanga, babikora neza maze bakajya babigurisha, ubikeneye akaza bakabimugurisha ku mafaranga make, maze akajya kubitunga iwe mu rugo.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, haba harimo agatebe keza bicaraho bari kwiga kaba gateye amarangi y'umukara kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yako harambitse akadobo gasa umutuku keza cyane.

Aho bambaye ingofero nziza cyane zo kuri uwo munsi ndetse bakaba banezerewe bambaye n'amadarubindi meza cyane kandi bishimiye uwo munsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite akayira gashashemo amapave, hakaba kandi ari heza cyane hafite n'ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza. Ikaba ifite ibikuta byiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri za kaminuza, bakunze kwicara hamwe, bakigira mu matsinda kugira ngo bungurane ibitekerezo, hanyuma amasomo yabo babashe kuyatsinda neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ikaba ari ingenzi cyane kuri bo.

Inyubako nziza ifite igikuta giteyeho amarangi y'umweru hakaba hariho imitako myinshi igiye itandukanye iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari myiza cyane.

Amavase agiye atandukanye, harimo amwe akozwe mu buryo bwa mpande enye n'ayandi akozwe mu buryo bw'uruziga. Akaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza.

Ibikoresho bizwi nka ga, byifashishwa n'abanyeshuri biga ibijyanye no gukanika, bakaba babyambara kugira ngo umwanda utabajya ku ntoki, maze bikaba byagenda nabi.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, bakaba bahagaze abandi bicaye bari kureba mwarimu wabo w'umukobwa uri kubigisha.

Intebe nziza cyane zo muri Kaminuza y'u Rwanda zicarwaho n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga amasomo yabo, hakaba harimo abakobwa babiri bicaye kuri izo ntebe bakurikiye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza baba ari abahanga cyane, aho bakora udushusho twinshi tugiye dutandukanye kandi twiza, bigaragara ko umuntu wese utubonye, yumva adukunze.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Bakaba bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, bigaragara ko bari kwandika ibitekerezo nyamukuru byavuzwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe biri mu mabara y'ubururu, abanyeshuri babyifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo batsinde.

Ishusho y'umwamikazi Rozaliya Gicanda, ikaba imanitswe ku gikuta, ikaba yarakozwe n'abanyeshuri b'abahanga bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Ibikoresho by'ibibumbano bigiye bitandukanye, biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza by'umwihariko abiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Bikaba ari byiza cyane kandi bigurishwa.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri ya za kaminuza iyo basoje habaho umuhango wo kwambara imyambaro y'amakanzu uzwi nka garaduwesheni, baba bambaye imyambaro myiza cyane aho baba bari kwishimira uwo munsi.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, ikaba irimo udutebe twiza cyane dusa ubururu. Hari abantu bahagaze imbere y'umuntu uyicayemo bari kumuganiriza.

Ibibumbano bigiye bitandukanye bibumbye mu ibumba, aho ibi bibumbano biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, bakaba babigurisha amafaranga.

Inyubako ya kaminuza ifite inzugi nziza cyane, ziteye irangi risa n'ivu. Hakaba hari ibirahuri byiza bitabonerana, kandi ibyo birahuri bikaba biri mu mabara y'umukara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo udukoresho tw'utubumbano dukoranywe ubugeni aho tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo abantu benshi bateraniye hamwe. Harimo abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, bose bakaba bitabiriye iyo nama ngo bumve ibiri buze kuvugirwamo.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza, tukaba ari udutebe twiza tw'ubururu, dufite aho bicarira ndetse n'aho bandikira igihe bari kwiga amasomo yabo.

nyubako ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, aho kuri ibyo bikuta hamanitseho udutako dukozwe mu myenda, tukaba ari twiza cyane kandi tubereye ijisho, ku buryo umuntu wese yadukunda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite inzugi zisa icyatsi. Ikaba ifite n'ibirahure byiza cyane bigaragara ko yifashishwa n'abanyeshuri biga muri za kaminuza.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye yindabyo, aho iyi ndabyo ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uhanyuze abona habereye ijisho kuhitegereza, maze akaba yahifotoreza.